Abagore n'abagabo, bateraniye hamwe, bafite ibipapuro, mu ntoki zabo, harimo abateze ibitambaro n'abambaye ingofero bari mu busitani.

Umwana mutoya w'umuhungu, yambaye agapira k'amaboko magufi karimo amabara atandukanye, ukuboko kwe kumwe agufatishije ku ivi rye, ukundi kuri gukaraba, inyuma ye hari abana benshi bahahagaze.

Abantu bicaye ku ruziga bari mu nama ku ntebe z'icyatsi, hari abambaye amashati y'amaboko maremare na karavate, imbere yabo hari amatasi ndetse n'igikoresho k'ikoranabuhanga.

Abantu bateraniye hamwe ari benshi, harimo abagore, abana, abakobwa, umukecuru, hirya hari kandagira ukarabe, iri mu ibara risa nk'ivu.

Umwana w'umuhungu yambaye ikabutura y'umutuku n'inkweto z'ubururu, ari kunywa amazi ku ivomero akoresheje ibiganza bye byombi. Munsi y'aho anywera, hari indobo y'amazi.

Umugore witeze igitambaro, wambaye ikanzu, ahagaze mu murima ari kumwe n'umwana mutoya, bahagaze batandukanye kandi bose bari guseka, umwana ateruye ikintu mu ntoki.

Abagore n'abagabo bateraniye aho bapimishiriza abana ibiro, umugabo umwe arahagaze asobanura ndetse inyuma ye hari umunzani ukoreshwa mu kubapima.

Umwana mutoya w'umuhungu yambaye ishati y'amaboko magufi y'umuhondo n'ikabutura y'ubururu bwijimye, ateruye uducupa tubiri ari guseka, hirya ye hepfo hari abandi bana.

Umwana mutoya w'umuhungu, yambaye ishati y'amaboko magufi y'igitenge n'ipantaro y'ubururu bwerurutse, ari kuvoma amazi mu kabido k'umuhondo ku ivomero, hejuru ye hari umukobwa wambaye impuzankano, ari kumufungurira amazi ngo avome neza.

Inshinge esheshatu ziri kumwe n'umuti uri mu gacupa gatoya ugiye kuzishyirwamo, biri kwsiniya yo kwa muganga ikoreshwa mu gushyirwaho ibikoresho bitandukanye bikenerwayo.

Abagore batatu begereye ivomero, babiri bari gukaraba intoki zabo imbere yabo hari amajerekani.

Umugabo w'igikara yambaye ishati y'amaboko magufi, ipantaro n'umukandara by'umukara, ari guseka afatishije amaboko ye yombi ku jerekani, ahagaze imbere y'ivomero.

Abagabo icyenda bicaye hamwe ku ruziga begereye ameza, harimo abambaye amarinete, amakote, amashati n'imipira by'amaboko magufi, imbere yabo harimo ibirahuri.

Umuntu yambaye ikote ry'amaboko maremare, arigukaraba ikiganza cye kimwe akoresheje amazi arikuva mu itiyo. Ari kumeneka ari menshi, munsi yacyo, hari amabuye manini.

Umwana mutoya w'umuhungu arahagaze, yambaye umupira w'amaboko magufi, w'ubururu urimo n'uturongo tw'umukara, afite isabune mu ntoki ze ari gukaraba, hari uri kumusukira amazi.

Umugore wambaye umupira ufite ikora, warengejeho undi inyuma, yikoreye igitebo kirimo ibyatsi ndetse yiteze igitambaro mu mutwe we.

Umugabo w'umuzungu yambaye ishati y'amaboko magufi irimo amabara y'ubururu, ipantaro, inkweto n'isaha ku kuboko. Ahetse igikapu, ahagaze imbere y'igikuta.

Abana batoya benshi, bicaye ahantu hamwe, bambaye imipira y'amoboko magufi y'umuhondo, umwe muri bo ari gukoma amashyi, aseka. Hirya yabo, hari abantu batatu bahahagaze.

Umugabo w'igikara yicaye hasi ku gikarito cya kaki yegamye, yambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku n'inkweto z'umukara, impande ye hari amashashi.

Umwana w'umusore yambaye ibirenge n'ubusa, yicaye hasi, ukuguru kwe kumwe kurarambuye ukundi kurahinnye, uguhinnye kurambitseho ukuboko kwe, gufasheho n'ikiganza cye.

Umugore uteze igitambaro, yicaye ku musambi ateraruye mwana mutoya uri kurya intoki, inyuma ye hari undi ndetse n'impande ye hari undi, imbere ye hari inkoko iriho ingemeri.

Umugabo ahagaze imbere y'inyubako ifite amadirishya n'inzugi, yambaye amarinete, ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, hirya yayo hari ibiti.

Umugore ufite umusatsi w'umukara, ateruye umwana we bose bari guseka, bahagaze imbere y'inzu yubakishijwe amatafari ndetse ifite n'idirishya.

Umugabo ufite ubwanwa utambaye ikintu hejuru arasamye, ari gukoza agakoresho mu menyo ye, agafatishije intoki ze, ndetse gakoze no ku munwa we.

Umugabo w'umuganga yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru isa n'inkweto by'umukara, aricaye aseka mu cyumba basuzumiramo abarwayi b'amenyo.

Umuganga w'amenyo ari gusuzuma umurwayi w'umugore yifashishije utwuma twabugenewe, uwo ari gusuzuma arararamye ndetse arasamye, yambaye n'amaherena ku matwi ye.

Abaganga babiri, harimo uw'umugabo n'umugore, umwe aricaye undi arahagaze yunamye, bari gusuzuma umwana wambaye umupira w'amaboko magufi.

Umugabo w'igikara wambaye umupira uri mu ibara risa nk'umweru, arasamye afite urudodo mu biganza bye byombi ari kurukoresha hagati mu menyo ye.

Abana batoya bahagaze ku murongo, harimo abambaye amashati y'amamoboko magufi, bafite uburoso bw'amenyo bari kuyakorera isuku, harimo ufite ubusa nk'umuhondo undi uburi mu ibara ry'ubururu.

Umwana wogoshe araryamye yasamyeho gatoya, muganga agiye kumuvura amenyo yifashishije utwuma twabugenewe afite mu ntoki ze, yambaye n'imyenda yabugenewe.

Umugore yambaye amarinete asutse ibishuko by'umukara yegeranye n'umukecuru bisa nkaho ari mama we, bombi basetse ndetse bari kumwe n'umwana wambaye umupira usa nk'ivu.

Abagabo babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri basetse bafite amacupa y'amazi yo kunywa, bambaye imipira y'amaboko maremare y'umweru n'amapantaro, hirya yabo hari aho bashyira imyanda habugenewe.

Abagabo n'abasaza bicaye ku mukeka bisa nk'aho bari kuganira, hari abambaye ingofero n'abatazambaye ndetse umwe muri bo ari kuboha agatebo.

Umuforomokazi w'umuzungu yambaye umupira w'amaboko magufi, afashe ku musaza w'igikara ufite imvi, wambaye ishati n'ipantaro, ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugore muremure ufite umusatsi w'umukara, yambaye amarinete, urunigi, amaherena n'isaha ku kuboko, ahagaze imbere yegereye indangururamajwi ebyiri.

Abagabo babiri uw'igikara n'uw'inzobe bambaye imyenda isa iri mu ibara ry'umukara, bose barareba ahantu hamwe, uwicaye ibiganza bye byombi bikoranyeho naho uhagaze yifashe mu mifuka.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuyikora, gifite amadirishya ndetse no ku rukuta hari isaha.

Ikigo cy'amashuri kirimo amatara maremare, ibyicungo by'amabara y'ubururu. uduhanda dutoya tugana ahantu hatandukanye ndetse n'ibiti.

Abagabo batandatu n'abagore babiri bahagaze bahanye intera hagati yabo, bambaye udupfukamunwa abandi amashati y'amaboko maremare, hirya hari ibiti ndetse n'imodoka.

Umugabo yambaye amarinete, ishati iri mu ibara ry'icyatsi cyerurutse n'ipantaro y'umukara, yegereye icyumba bashyiramo abagore bamaze kubyara, hirya hari ikigega cy'amazi.

Icyumba cyo kwa muganga gifite ibitanda, bifite amashuka asa nk'ubururu. Impande yabyo, hari utubati. Hejuru, hari amarido ari mu ibara ry'umweru.

Abantu batatu harimo umugabo n'abagore babiri begereye umuryango w'icyumba kiraramo abarwayi, gifite amadirishya ndetse wareba mo imbere.

Inyubako ngari ifite amadirishya, inzugi ndetse inkingi zayo zisize irangi ry'umweru, imbere yayo hari amamodoka yo mu bwoko butandukanye.

Inyubako ni nziza cyane, ifite amadirishya, inzugi, amabati, inkingi n'urukuta bisize irangi ry'umweru, hari n'aho wahagarara ukitegereza hasi.

Umuntu yambaye imyenda yabugenewe mu gutera imiti, aripfutse ndetse hirya ye hari indobo y'icyatsi hepfo hari iy'ubururu bwerurutse, yegereye inzu ifite imiryango y'ibirahure.

Umukobwa ufite umusatsi muremure yambaye isengeri n'ikabutura bisa ari gukora imyitozo ngororamubiri, arahagaze ukuguru kwe kumwe kurahinnye amaboko ye yombi agufasheho.

Imiti, ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye, bikoreshwa kwa muganga. Harimo, amavuta yo kwisiga, ibinini by'ibicurane, ibipfuko, imikasi, n'udutambaro.

Siporo nk'umuti udufasha kuvura no kugorora imibiri yacu igizwe n'imikino ngororamubiri igiye itandukanye harimo kurambura amaguru n'amaboko, guterura ibyuma.

Ibikoresho byinshi biri hamwe bikoreshwa ahantu hatandukanye kandi henshi, muri byo harimo urupapuro rw'isuku, umuti w'amenyo.

Igikapu gitukura, kirafunguye, gifite imashini z'umukara, kirimo ibikoresho dukoresha ku kumubiri wacu. Harimo impapuro z'isuku, umukasi, amavuta.

Umugabo yicaye hasi yambaye umupira uri mu ibara risa nk'ivu ndetse afashe ku kuboko kwe kuriho agatambaro, yambaye n'ipantaro iri mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Umusore arahagaze afite ubwanwa bukeya cyane, yambaye umupira w'amaboko magufi, ari kunywa amazi mu icupa ritoya, afatishije ukuboko kwe kumwe konyine.

Umukobwa ufite umusatsi muremure w'umukara ari kunywa amazi mu gacupa gatoya.

Umukobwa w'igikara ufite agasatsi gake, yambaye isengeri irimo amabara atandukanye nk'ubururu, umweru n'icyatsi. Afashe icupa ry'amazi yo kunywa, ari kuyanywa.

Umugore w'igikara yambaye impeta bigaragara ko yasezeranye, afite venerine ku nzara na barafu mu ntoki ariho arakanda ukuboko kwe kwagize ikibazo.

Umugabo arunamye yambaye agakabutura kagufi n'isaha by'umukara, ari gukora ku ivi rye akoresheje ibiganza bye byombi, arikanda bigaragara ko ryagize ikibazo.

Umuganga yambaye itaburiya y'umweru ifite amaboko maremare, ari gufasha umurwayi wambaye agapira k'amaboko magufi gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko yagize imvune.

Akabido kagufi kari mu ibara risa nk'ivu, gafite umufuniko w'umutuku ndetse n'umukondo, kandikishijweho amagambo ari mu ibara ritukura.

Imiti n'amavuta bitandukanye dukoresha ku mubiri wacu. Harimo ibikozwe mu gikakarubamba.

Ibimera bitandatu biri mu mabara atandukanye, byifashishwa kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo kugira isukari nkeya mu mubiri.

Amavuta y'uruhu, ubwoko bwinshi bugiye butandukanye. Akozwe mu gikaka rubamba uducupa tubiri dutoya ndetse n'akandi k'umweru, kagufi, gakozwe mu gihwagari.

Agacupa gatoya gateretse ahantu hamwe, gafite umufuniko urimo ibara ry'umweru, kanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye, harimo ubururu ndetse n'umukara.

Amavuta yagenewe gusiga ahantu hatandukanye nko mu mutwe ku mubiri, akozwe mu gikakarubamba.

Amacupa abiri yegeranye, rimwe rifite umufuniko w'umuhondo, irindi ni shokora, imbere yayo hari imbuto ziri hasi zikase.